Ahakorera ubuyobozi bw'ishuri hakaba hagaragazwa n'uko handitse ko ariho ubuyobozi bw'ishuri cyangwa bw'ikigo bukorera, bityo buri wese ubakeneye akaba yahabona bitamugoye.

Intebe z'abanyeshuri bicaraho iyo bari kwiga ziri mu ishuri zikaba zizwi ku izina rya pipitire mu ndimi z'amahanga,

Ibikinisho by'abana bigaragara cyane ku mashuri g'abana bato, aho babikoresha bicunga, aribyo bita imyicungo, bigatuma abana biga neza bakunda imikino.

Abanyeshuri barimo biga uko bakora imashini zitandukanye ziba zarapfuye, ndetse bashobora no gukora imashini nshya, akaba ari uguteza ubumenyi ngiro imbere urubyiruko no kwihangira imirimo.

Bamwe mu bayobozi bari basuye ishuri ry'ikoranabuhanga, aho abanyeshuri babagaragarizaga ibyo bakora, ndetse n'ubuhanga bamaze kugeraho mu byo bize. Umunyeshuri arasobanura ibyo yakoze mu gihe amaze yiga mu iri shuri.

Umwarimu urimo kwigisha abanyeshuri，bari mu mashuri agaragara nko muri raboratwari， akaba ari ahantu higirwa amasomo y'ubumenyigiro， abanyeshuri bashira mu ngiro ibyo bo bize.

Ahigishirizwa ibijanye no gukanika, abanyeshuri bakaba barimo biga gukanika ibintu bitandukanye byo bita mekanike jenerari, bikaba ari ubumenyi ngiro bufasha abana mu kumenya umwuga wo gukanika, cyangwa gukora metenanse y'ibintu bitandukanye.

Ishuri ririmo intebe zicarwaho n'abanyeshuri barimo kwiga, zirimo ikibaho cyandikwaho iyo bari kwiga. Ubu akaba ari bumwe mu mashuri ameze neza ndetse asukuye yakwigirwamo n'abanyeshuri.

Ahigirwa umwuga w'ubudozi, aho haba hari imashini zifashishwa mu kudoda n'abanyeshuri bicaye imbere yazo, barimo biga kudoda imyenda itandukanye. Ubu akaba ari uburyo bwiza aho urubyiruko rwacikirije amashuri cyangwa se rudafite akazi ruza rukiga kudoda, umwuga, rukiteza imbere n'uwo mwuga ruba rumaze kwiga.

Ahakorerwa imirimo y'ububaji. Ububaji bukaba ari umwuga wa ngombwa, aho uwabwize akora ibikoresho bitandukanye, birimo imeza, inzugi n'ibindi. Bikaba bimufasha kubona amafaranga akiteza imbere.

Imashini zifashishwa mu kudoda imyenda, aho abadozi bazikoresha badoda imyenda bakayigurisha abayikeneye, nabo bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Abanyeshuri barimo biga ibijyanye n'ubumenyingiro bakaba bari ahazwi nko muri laboratwari aho bashirira mu ngiro ibyo baba bize muri tewori babishyira muri pulatike.

Umwarimu n'abanyeshuri bari gukora ubugeni bwo gushushanya. Ubugeni akaba ari bumwe mu bintu biteza imbere uwabyize, cyangwa se ubikora, akaba yabona amafaranga bityo agakemura ibibazo yaba afite, kandi akiteza imbere mu buryo ubu n'ubu.

Aho bakunda kwita muri atoriye bigaragara ko hakorerwa ibikoresho bikoze mu byuma babisudira. Hakaba hagaragaramo abantu barimo gukora ibyo bikoresho bifashishije umuriro gw'amashanyarazi basudira.

Abanyeshuri barimo kwiga ibijyanye n'amashanyarazi, aho barimo gukora imashini zitanga amashanyarazi, zizwi ku izina rya dinamo. Bakaba bari kugerageza kuzamura ubumenyi bw'i Rwanda.